Ahangaha baguha ubwishinzi bugiye butandukanye bw'ibintu byinshi bitandukanye, ingaruka zose wageraho zakugeraho zikakugeraho ubundi ibintu byawe bishinganishije ubundi ukamera neza.

Barakubwira ngo murakaza neza muri radiyanti yacu iki ngiki ni ikigo cya mbere mu Rwanda cyemejwe na banki nkuru y'u Rwanda mu gutanga ubwishingizi buciriritse ,aha ngaha wahamagara imibare ikurikira kugira ngo baguhe ubundi busobanuro.

Ni ikigo gitanga ubwishingizi, ku ntambwe iyo ariyo yose. Aha ngaha haravuga hati: " Cya gihe uba wuzuye ibyishimo n'umunezero kuko imodoka yawe iri mu biganza by'inshuti yizewe. Hitamo iki kigo cyitwa buritamu."

Iki giki n'ikigo cyitwa britam ahanga baravuga ati ''Ramba n'icyo kigo. ese wari uzi ko hari ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse bwagenewe ibigo bitandukanye ibigo bito, ibigo bito by'imari ,ibigo bya leta n'ibigo by'amashuli ahangaha batanga ubwishingizi kuri ibyo bigo.

Ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, bakita urumuri, urumuri rw'ubuzima, aha ngaha uramutse ukeneye ubwishingizi bw'ubuzima, bushinganisha ubuzima bwawe n'abawe n'umuryango wawe waza bakagufasha.

Aha ngaha ni ubwishingizi ni ikigo kiba gishinzwe gutanga ubwishingizi ijana ku ijana, aha ngaha bakubwira ati :'' Gerayo ufate ubwishingizi ushinganishe ibyawe, imitungo yawe ndetse n'umuryango wawe. '' Niho hantu bakubwira ko ati :'' Ni wowe hazaza h'umuryango wawe.''

Ukeneye ubwishingizi, iki ngiki ni kigo cyabigufashamo kikaguha ubwishingizi bw'ibinyabiziga byawe cyangwe se imitungo yawe, ubundi ukabaho ushinganishije ibintu byawe ndetse n'abawe bose.

Aha ngaha barakubwira ati; "Urumva icyo kintu?" Ubwishingizi bw'umutingito, aha ngaha ushobora kuza ugafata ubwishingizi mu gihe haba hatewe n'imitingito ibintu byawe bikabaho byari bishinganishije ukabona ubufasha bworoheje.

Umwe mu bakozi b'ikigo cya solasi gitanga ubwishingizi mu Rwanda, ahangaha ukeneye ubwishingizi bw'ibintu bitandukanye byaba ari imitungo yawe cyangwag se ibinyabiziga byawe, ahangaha baragufasha bakaguha ubwishingizi ubundi ukabaho ushinganishije.

Iki ngiki ni ikigo cy'ubwishingizi, hano barakubwira bati ''igitekerezo ngengabucuruzi''muri iki kigo cy'ubwishingizi mu Rwanda igitekerezo kiyobora ubucuruzi bwacu, gishingira ku izi nkingi zikurikira: umunezero w'abakiriya, imibereho myiza y'abakiriya, ikoranabuhanga igikoresho cya mbere ubucuruzi bushya abakiriya imbere.

Iki ni kigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima; ahangaha babita RADIANT; barakubwira ngo turikumwe. Turi kumwe mu gendo rwawe tugura ubwishingizi bw'ubuzima; kanda ayenyeri gatanu, gatatu, rimwe, urwego; ubundi urebe ibindi bikurikira.

Ikingiki n'ikigo gitanga ubwishingizi, uramutse ukeneye ubwishingizi ukaba wabasha kuza bakabuguha, agashinganisha imitungo yawe, ibintu byawe byinshi bigiye bitandukanye, ukabaho wishinganishije kandi ushinganye.

Iyingiyi ni banki iba ikwereka ibintu bimwe ugenda ukora, amafaranga wishyuye y'ubukode, amafaranga y'umushahara w'ukwezi, ibyo wahashye n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, kugira ngo urusheho kumenya uko bikorwa.

Iyi ngiyi ni banki izwi ku izina ry'Urwego. Aha ngaha baba basuhuza amazina ya nyiri konti, bagashyiramo umubare banga amafaranga, ukareba kuri konti yawe uko wakohereza amafaranga, uko wabikura, uko wakwishyura izindi gahunda zitandukanye za leta.

Iri ni iduka ricuruza imyenda myiza y'ubwoko bwinshi butandukanye ahangaha turabona imyambaro yo hejuru, yaba ku basore n'abandi batandukanye, ahangaha uramutse ushaka kugura imyambaro myiza wakwambara ukaberwa, wahagurira.

Iri ni iduka wabasha kuba waguriramo imyambaro myiza ikubereye kandi ibereye umuntu nkawe, aha ngaha wahasanga imyambaro y'ubwoko bwose waba uri umusore, waba uri umupapa, waba uri umukobwa, waza ukahahira imyambaro myiza.

Iri ni iduka rinini ryiza kandi rifite ibicuruzwa byiza wakenera mubuzima bwawe, aha ngaha urahasanga imyenda myiza y'amoko agiye atandukanye, kandi urabona ko hateguye neza ku buryo wakwishimira kuza guhahiramo.

Iri ni iduka ricuruza imitako myiza y'ubwoko bugiye butandukanye imitako washyira ku tubati two muzu, imitako washyira ku meza ahantu ho kwicara cyangwa se hagaragara ku buryo inzu yawe ikomeza kugaragara neza.

Iki ni kigo cy'akagera gifite isoko ricuruza ibinyabiziga by'amoko menshi atandukanye, aramutse ukeneye kugura ikinyabiziga yaba ibinyabiziga bitwara imizigo, amapikipiki n'ibindi byinshi waza ukabihagurira.

Iki ngiki ni ikiinyabiziga gishya kandi gifunitse gishobora kuba kigurishwa ahantu wakura ibinyabiziga byo kugura ushobora kujya ku kigo cyitwa akagera baguha ikinyabiziga cyose wakwifuza cy'ubwoko bwose.

Ikigo gicuruza ubwoko bwiza bw'imodoka bugezweho amabara atukura, imodoka ziterambere zorohereje zitagira urusaku zigenda neza zitajegera ahantu hose.

Iki ngiki ni ikinyabiziga cyiza cyo ku buryo bugezweho gishyashya, gishobora kuba ari ikigurishwa cyangwa se ari ibikodeshwa byose birashoboka, ibi bigo biba bibikora ushobora kubamagara bitewe n'ibyo ukeneye ubundi bakagufasha.

Iki ngiki ni kinyabiziga gishya, cyo mu bwoko bw'ibinyabiziga byiza bigezweho, bitwara abantu gusa bidatwara imizigo, iki ushobora kuba wakigura ucyifashisha ugiye mu kazi kawe cyangwa se no mu zindi gahunda zawe nyinshi zigiye zitandukanye za buri munsi.

Iki ni ikigo cy'akagera cyo mu Rwanda gicuruza ibinyabiziga by'ubwoko bwinshi butandukanye. Aha ngaha iyo umuntu amaze kugura ikinyabiziga, afatana ishusho n'umucuruzi wo muri iki kigo ndetse umaze kugura aba afite n'agakapu k'umutuku.

Ni ikinyabiziga gishya kiracyafunitse, ushobora kuba ukeneye kugura ikinyabiziga. Aha ngaha hari ibinyabiziga byiza kandi bifite uburanga, ibinyabiziga wakwishimira kuba watemberamo cyangwa se kugendamo ujya ahantu henshi hagiye hatandukanye.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga by'ishyirahamwe rya Volcano bitwara abagenzi bagiye ahantu hagiye hatandukanye mu mpera z'igihugu, mu ntara n'ahandi hantu henshi hatandukanye.

Aba ngaba ni bamwe mu bakozi ba banki bakwereka icyapa cy'umuntu, wapatanye ijana ku ijana ry'ibinyabiziga ukaza bagafata inguzanyo muri iyi banki bagenda bakagura ikinyabiziga, cyangwa se bakaguha ikinyabiziga ku nguzanyo, ukazishyura bitewe n'ibyo bumvikanye.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga, aha ngaha hakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga agiye atandukanye, uramutse ukeneye amafaranga y'abanyamahanga cyangwa se ufite umunyamahanga, ukeneye amanyarwanda aha ngaha nibyo bagufasha.

Ubungubu ni ubijyanye no gukoresha amafaranga y'amanyamahanga, ahangaha amafaranga uyafite urayazana bakakuguranira bakaguha andi wakoresha, cyangwa se bakagucuruza andi cyangwa se wowe ukagura andi cyangwa se ukagurisha ayawe.

Ahangaha habera ubucuruzi bw'amafaranga bugiye butandukanye uramutse ukeneye amafaranga muri banki kuyabitsa, gufunguza konti kuri banki bagufasha mu buryo bwinshi bugiye butandukanye wakifuza.

Aya ni amafaranga y'amanyarwanda iyi ikaba ari nayo note nkuru tugira mu gihugu cy'u Rwanda iyo uyifite wemerewe kujya guhahira ahantu ari hose mu Rwanda bakayemera, kuko ni y'amanyarwanda ni inoti y'amafaranga ibihumbi bitanu.

Iri ngiri ni ikusanyirizo ry'amata y'Inyange, ahangaha baguha amata afite intungamubiri ukeneye, ku buryo bwiza kandi ku giciro cyiza, uramutse ucyeneye kugura amata aha ngaha waza ukayahagurira.

Aha ngaha ni ahantu wakwinjira ukeneye ibintu byo kunywa, mu gihe waba ufite inyota cyangwa se ufite inzara, ushobora kuba waza ukagura amazi cyangwa se ukagura imitobe igiye itandukanye ikagufasha.

Aha ngaha iri ni iduka ushobora gusangamo ibyo kurya bigiye bitandukanye ushobora gusangamo amata ya Mukamira, yaba ahasanzwe cyangwa se amata avuye mu cyuma kiba kiyabitse mu buryo gitunganya amata neza.

Iri ni ikusanyirizo ry'amata aha ngaha wahasanga amata meza afite umwimerere kandi afite ubuzima buzira umuze, mu gihe waba ukeneye amata meza waza aha ngaha rwose ukayahakura afite ubuzima bwihariye bwiza.

Iri ngiri ni ikusanyirizo ry'amata iki ngiki ni icyuma kibika amata ku buryo agomba kuba afite umutekano wizewe, ndetse n'isuku yizewe, tukareba hariya imbere amacupa arimo amazi meza wakenera kunywa ukaza ukayagura ukayanywa.

Uhasanga amata meza ya mukamira kandi bakubwira ko amata ari ubuzima ahangaha uje mu gihe waba ufite inzara wumva utameze neza mu inda ukaza ukaba wafata ibyo kunywa bigiye bitandukanye, amata meza ya mukamira aryoshye kandi afite intungamubiri.

Aha ni hantu waza gufatira amafunguro meza agiye atandukanye, imbuto zizwi nk'imineke, ibiribwa bindi bikorwa mu mafarini ndetse n'amagi, aha ngaha bagakorera ibyo kurya tuzi mu kinyarwanda mu izina rya capati.

Ibingibi ni ibyo kurya bikorwa mu ifarini, bafata ifarini bagashyiramo amazi, amasukari n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kugira ngo babashe gukora ibyo kurya, byaba ari ibyo ubucuruzi cyangwa se ari ibyo kurya mu rugo bisanzwe.

Hano ni uburyo bwo kohereza amafaranga ukoresheje itumanaho, kohereza amafaranga yaba ari amanyamahanga ukaba wabasha kuyohereza mu bindi bihugu bitandukanye ubundi akagerayo.

Aba ngaha barakubwira bati injira muri byinshi igihe icyo aricyo cyose. Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'umuyoboro wa mtn, udufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Imihamagarire cyangwa se imikoreshereze y'itumanaho mu buryo bugiye butandukanye.

Ni banki ikubwira ngo zigamira itangira ry'amashuri, tangira umwaka mushya w'amashuri mu mahoro, izigamire na sipini, iki ngiki ni ikigo cya sipini kigufasha kuba wakizigamira amashuri abana bakaziga neza.

Ahangaha ni ikigo gishinzwe kuba cyagufasha kuba wakohereza cyangwa se ukakira ukoresheje ubu buryo bwa wesitani yuniyoni. Ushobora kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa se ukakira ayavuyeyo, barakubwira twizigamire tugurizwe dutere imbere.

Aha ngaha barakwereka uburyo bwa momo wahamagara akanyenyeri ijana na mirongo itandatu nagatanu akanyenyeri umunani urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza y'ibindi waba ubona.

Iki ngiki ni kigo gishinzwe itumanaho, aha ngaha bari kwamamaza uburyo ki wabona amafaranga kuri konti yawe, aha ngaha barakubwira kugira ngo ubonye amafaranga magana atanu kuri konti yawe, y'iki kigo cyitwa airtel money.

Bagufasha ibintu bitandukanye, hari abantu benshi bakeneye ubufasha bwo kuba baba bagiye kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa se bagiye kwakira amafaranga yaturutse mu mahanga, iri shami rigufasha byose.

Ubungubu ni uburyo bwo kwishyura n'umuyoboro wa airtel, ahangaha ukoresheje telefone ngendanwa bakaguherereza kode ushyiramo ishusho ryayo ubundi ugahita wishyura mu buryo bworoshye.

Urupapuro rwerekana ukuntu umuntu aba amaze kwishyura umusoro, ahangaha iyo wishyuye umusoro abakozi babishinzwe b'ikigo cy'imisoro n'amahoro, iyo bakugezeho kakabereka n'urupapuro babona ko nta kibazo kirimo nta mwenda wasigayemo.

Uru nguru ni urupapuro rwerekana ukuntu umuntu aba yarishyuye imisoro. Aha ngaha iyo wagiye ku rubuga rw'irembo cyangwa se ku ishami rishinzwe imisoro n'amahoro, ubundi wamara kwishyura bakaruguhereza.

Uru ni urupapuro rw'imisoro n'amahoro, aha ngaha baba bakwereka ukuntu umuntu yasoje kwishyura imisoro n'amahoro, bakareba niba nta mwenda urimo ndetse ahagiye hari ibihano nabyo akabyishyura kugira ngo ibihano bigabanuke.

Urupapuro rwo ku kigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aha ngaha baba berekana ukuntu umuntu aba yamaze kwishyura amafaranga yose abamo, cyangwa se niba nta n'imyenda irimo yindi, nayo akayishyura ubundi bakaruguha.

Iyi ngiyi ni banki ya Kigali aha ngaha baba bakwereka uburyo ibintu uba waragiye ukora muri banki byinshi bigiye bitandukanye, wabasha kuba wajyayo muri iyi banki ugafunguza konti nawe ukajya ubikora.

Uru ni rupapuro rugaragaza umuntu uvuye kwishyura umusoro, aha ngaha wajya no ku rubuga rw'irembo ukishyura umusoro wawe cyangwa se ukareba niba hari umusoro urimo, ukareba niba nta mwenda ubarimo ubundi ukabasha kwishyura naho bakaruguhereza.

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga bitewe n'icyo ugiye kuyakoresha cyangwa se bitewe n'aho uri buyakoreshereze, ushobora kuba ufite asanzwe ukaza bakaguha amanyamahanga cyangwa se ufite amanyamahanga ukaza bakaguhereza amanyarwanda.

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga aha ngaha nawe wayakoresha, uramutse ufite amanyarwanda ukeneye amanyamahanga uraza bakayaguha, cyangwa se uramutse ufite amanyamahanga ukeneye amanyarwanda cyangwa se ufite amanyamahanga ukeneye andi ma manyamahanga nabyo barabigukorera.

Ibi ni ibiciro byo kuvunja amafaranga cyangwa se ibiciro byo kugurisha no kugura amafaranga, aha ngaha ufite afaranga y'amanyarwanda ukeneye amanyamahanga, ayo mu bihugu biri hano bigiye bitandukanye igiciro uba ukibona cyangwa se ufite amanyamahanga ushaka andi manyamahanga byose biragaragara.

Ubungubu ni ubucuruzi bw'amafaranga, uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga, ahangaha ufite amafaranga yo mu Rwanda uraza bakaguha abanyamahanga cyangwa se ufite andi manyamahanga bakaguhindura nanone baguha amanyamahanga yo mu bihugu bitandukanye bitewe n'igihugu ugiye kujyamo cyangwa se aho ugiye kuyakoreshereza.

Ariya ni amafaranga yo mu gihugu cya Tanzaniya, amafaranga y'amanyamahanga, uramutse uyakeneye wenda ugiye kujya nko muri kino gihugu waza bakaguhereza aya ngaya akaba ariyo ujyana cyangwa se haramutse hari amashami yo muri kino gihugu akorera aho waba uri byagusaba na byo kuza ukayakoresha.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga y'amanyamahanga, cyangwa se imikoreshereze y'amafaranga y'amanyamahanga, aha ngahe uramutse uyafite uyakeneye ,waza bakabigufasha bakayaguha, ukazana ayo ukeneye ko baguhereza mw'andi ubundi bakabiguha.

Uburyo bwo gukoresha amafaranga y'abanyamahanga, ahangaha turareba amafaranga y'abanyamahanga menshi cyane agiye atandukanye uyakeneye waza ukayafata bakayaguha bitewe n'igihugu wowe uribuze kuyakoresherezamo cyangwa se n'ahantu uribuze kuyakoreshereza.

Na hantu habera ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se ivunjwa ry'amafaranga agiye atandukanye, aha ngaha usanga aho ibiciro byayo ugiye ukeneye gukoresha.

Amafaranga y'abanyamahanga, aya mafaranga tureba hano n’amadolari barimo barayahererekanya, bishoboka ko uyu ng’uyu yaje kuyafata bakayamuha, bakayakira cyangwa se yaje kuyatanga, ngo bamuherezemo ayandi bitewe n'ibyo akeneye gukora.

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga cyangwa se ubucuruzi bw'amafaranga, aha ngaha dufite amafaranga agiye atandukanye wabasha gukoresha cyangwa wabasha gukenera, uramutse ufite ayo mu bindi bihugu nawe cyangwa andi mafaranga y'abanyamahanga ukazana bakaguhereza ayandi.

Ubu ngubwo ni ubucuruzi bw'amafaranga agiye atandukanye, imikoreshereze y'amafaranga mpuzamahanga, aha ngaha uramutse ufite amafaranga ukeneye ayandi bitewe n'aho uri buyakoreshereze, urahaza bakabigufashamo bakaba bayaguha.

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'abanyamahanga agiye atandukany. Aha ngaha nawe waza bakabigufashamo, uramutse hari ayo ufite, cyangwa se hari ayo ufite ukeneye kuzana ngo ubundi bakuvungirere baguhereza andi.

Ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se uburyo bwo gukoresha amafaranga y'abamanyamahanga aha ngaha nawe uyakeneye waza ufite andi ubundi bakayaguhereza ushobora kuza ufite amanyarwanda cyangwa se ufite andi banyamahanga bitewe n'igihugu ugiye kujya kuyakoresherezamo.

Aha ngaha ni ahantu hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye, hari aho bahanagurira imyenda cyangwa se imyambaro bakayigufurira, bakayisubiza imeze neza, hakaba n'inyubako y'ubwiyunge ikorerwamo ivunja ry'amafaranga.

Bwakorerwa uburyo bwo kohereza amafaranga mu mahanga uramutse ukeneye kuba wakohereza umuntu wawe ufite mu mahanga amafaranga, urayazana hano bakakubwira ibisaba cyangwa se uko bikorwa ubundi ukayamwoherereza.

Ahangaha ni inyubako ni icyumba cyitwa giraneza, bakora ubucuruzi bw'amafaranga agiye atandukanye. Ushobora kuza ufite amafaranga y'amanyamahanga bakaguhereza andi manyamahanga, cyangwa se waba ufite amanyarwanda bakaguhereza amanyamahanga, cyangwa se waba ufite amanyamahanga bakaguha amanyarwanda.

Aha ngaha bagufasha mu buryo bwinshi butandukanye, icuruza ry'amafaranga, amafaranga yose waba ufite ukeneye kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa se amafaranga gufata ayo mu mahanga bakoherereje, aha ngaha byose wabihakorera babigufashamo.

Aha ni ahantu hakorerwa ibikorwa byinshi cyane bijyanye n'amafaranga, yaba kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa se kubikura amafaranga yavuye mu mahanga cyangwa se kuvunjisha amafaranga ufite mu manyamahanga ushaka amanyarwanda cyangwa ufite amanyarwanda ushaka abanyamahanga, aha ngaha wabihasanga.

Ni ahantu bakora igikorwa kijyanye no kuvunja amafaranga hitwa Giraneza, uramutse ufite amafaranga ukeneye ko bakuvunjira, ufite nk'amanyamahanga ushaka ko baguhamo amanyarwanda, aha ngaha niho waza bakabigukorera.

Aha ngaha habera ihinduranyiriza ry'amafaranga n'igura n'igurisha ry'amafaranga, hakaba hanabera kuba wakakira cyangwa se ukohereza amafaranga mu mahanga ku buryo bukoroheye.

Ahantu hagiye harimo ibikorwa remezo bitandukanye, haherereye nyabugogo aho ibinyabiziga bijyana abantu ahantu hagiye hatandukanye bibarizwa. Tukaba tureba ahantu ushobora kuba ugiye Bukavu cyangwa se kigali kampala tukareba n'ahandi bakora ibijyanye n'icuruzwa ry'amafaranga.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, ifite amakaro meza asa neza ikagira intebe nziza zigezweho, ibyicaro bisa neza kandi bigari aho buri muntu wese yicara yisanzuye nta muntu numwe ubangamira cyangwa se abyiga mugenzi we.

Urabona inyubako nziza itunganya intebe, inyubako y'ubugeni uramutse ukeneye gukoresha ibintu bigiye bitandukanye byo muzu intebe, ibitanda, utubati, aha ngaha niho ushobora kuba wabibariza.

Intebe nziza zigezweho, zikoze mu mbaho z'ubwoko bwiza, imeza isa neza kandi igaragara neza, aha ngaha bari gukorera nawe uramutse ubishaka ibi ni ibikoresho washyira mu nzu igasa neza n'abashyitsi bagusura bakabona ko ari heza.

Ahangaha ni ho wasanga intebe nziza, utubati twiza, ibitanda byiza, ibikoresho byose byo mu nzu. Ahangaha babigufasha ,hitwa kwa Kwizerwa ubugeni bwa Kwizerwa.

Aka ngaka ni akabati keza kagezweho k'iterambere mu nzu nziza isa neza ifite amabara meza. Akabati ko kubika insakazamashusho mureberaho amakuru agiye atandukanye mureberaho imyidagaduro myinshi ibintu byinshi bigiye bisekeje.

Ubungubu ni ubugenikaba akaba ari imbaho zibajwe bakozemo utuntu tugiye dutandukanye, bashyira mu nzu utuntu tw'imitako ubundi inzu ikagaragara neza.

Izingizi ni intebe zigiye zitandukanye zifite amashusho atandukanye n'amabara atandukanye ariko nziza. Imeza nziza ndetse n'akabati keza. Ibingibi uramutse ubikeneye wabikora nawe ukabishyira muzu yawe igasa neza.

Aha ngaha ni ahantu heza ushobora kuba wasohokera wowe n'inshuti zawe cyangwa se n'umuryango wawe mukamu mwafata amafunguro meza uteguye neza muburyo bwiza kandi buhagije, ukaba wahishimira nawe.

Ahantu heza wasohokera ubundi ugafata amafunguro atunganye kandi ateguye neza, ibyo kunywa biteguye neza, ubundi uramutse ufite inshuti zawe cyangwa se n'umuryango mwaza mukaganira ubundi mukishimana.

Inyubako nziza ifite ubwiza nyaburanga buhagije kandi buhebuje, hari ubusitani bumeze neza, iyi ni nzu wazamo ukeneye gukora ibikorwa begiye bitandukanye, ibyumba by'inama byiza, ahantu heza h'imyidagaduro.

Aha ni ahantu waza mu gihe waba ukeneye amafunguro meza kandi yateguye neza ku buryo bw'ubuhanga ateguranye isuku aryoshye; ukaba waza ukahafatira ifunguro ryawe ubundi ukongera ugasubira muri gahunda zindi.

Iyi ni inyubako nziza iri mu mujyi wa Kigali ifite uburanga buhagije, inyubako wajyamo ugashakiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ahantu wajya ugasanga amafunguro ateguye neza, ibyumba byiza byo kuruhukiramo n'ibindi byiza nyaburanga byinshi.

Aha ngaha n'ahantu heza waza gufatira ifunguro ryawe, mu gihe waba uri nko mu kazi ugeze ku masaha yo gufata amafunguro waza ukahafata amafunguro asa neza, ateguye neza, kandi afite ubuzima buzira umuze.

Iyi ni ishusho y'ijuru y'umujyi wa Kigali urabona ko umujyi wa Kigali ari ahantu heza wakwishimira kuba watura cyangwa se wakwishimira gukorera ibikorwa byawe remezo bigiye bitandukanye hasa neza kandi hafite isuku.

Aha ni ahantu heza wajya mu gihe waba ukeneye kuruhuka ndetse no kuruhura mu mutwe hari, udutande twiza two kuryamaho mu gihe waba uvuye mu rukarabiro, cyangwa se mbere yo kujyamo ukaba uruhuka gake gake.

Ahangaha ni ahantu heza nyaburanga ushobora gusohokeraho n'inshuti zawe, abavandimwe bawe, cyangwa se n'umuryango wawe mukaba mwakicara mukaganira ikindi mushobora kuhasanga amafunguro ateguye neza ndetse n'ibyo kunywa biteguye neza.

Iyo ngiyi ni inyubako nini nziza wasangamo ibintu birimo ibi bikurikira ahantu heza ho kuryama ibyo kurya bitunganyije neza, ibinyobwa byiza bitunganyije neza ubwiherero busa neza, umutekano uhagije bitewe n'ibikorwa waba waje kuhakorera.

Inyubako nziza ifite ubusitani bwiza ifite amahumbezi ifite amazi yo gukaraba, ahangaha niho wasanga ibyokurya bitunganyijwe neza ndetse n'ibyokunywa bitunganyije neza ibyumba byo gukoreramo inama n'ibyumba byo kuruhukiramo.

Aho wasohokera wowe n'inshuti zawe, wowe n'umukunzi wawe, wowe n'abandi bantu bagiye batandukanye, wahasanga ibyo kurya biteguye neza, wahasanga ibyo kunywa biteguye neza, wahasanga uburyo bwiza bwo kwakiramo umukiriya.

Intebe nziza, ahantu heza hagezweho hari aho wicara witaruye jureba imisozi myiza y'u Rwanda ufata amahumbezi, akayaga gatuma ukomeza gutekereza neza mu gihe waba urimo gukora imishinga yawe.

Iyi ni inyubako nini kandi nziza yubatse mu buryo bugezweho, aha ngaha niho wasanga ubwishingizi wakenera bw'ibintu bigiye bitandukanye yaba imitungo yawe yaba ugushinganisha wowe n'umuryango wawe ubundi ukabaho ushinganishije.

Iyi ni inyubako nziza iherereye mu Mujyi wa Kigali, wabasha kuba wakoreramo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, amasare manini wakoreramo inama, amakwe, ahantu wasanga amafunguro meza, ahantu wasanga aho kuruhukira hameze neza, iyi nyubako wayisangamo gahunda nyinshi wakwifuza kuba wakoreramo.

Aha ngaha ni ahantu heza wabasha kuba wasohokera wowe n'abawe abo ari bo bose, zaba inshuti zawe, cyangwa se umuryango wawe, ukaba wahasanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ahantu heza ho kuryama ukaruhuka, amafunguro meza ndetse n'ibyo kunywa byiza.

Inyubako nini idufasha gutanga ubwishingizi, waba ukeneye ubwishingizi gushinganisha umuryango wawe, gushinganisha ubuzima bwawe, gushinganisha ibintu bigiye bitandukanye aha ngaha bagufasha.

Iki ngiki ni ikigo gitanga ubwishingizi uramutse ukeneye ubwishingizi bwo gushinganisha ibyawe imitungo abawe , umuryango wawe, ubutaka, ibinyabiziga aha ngaha niho waza bakabigufashamo.

Barimo barakubwira ngo igihe cyose rinda ubuzima cyangwa se sigasira ubuzima ikingiki aba ari ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, kugira ngo ubashe gukomeza kuba ufite ubuzima busigasiye kandi buzira umuze.

Iki ngiki ni ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, ishami rya Remera. Aha ngaha uramutse ukeneye ubwishingizi bw'ubuzima, ubushobora guhamagara kuri izi nimero zabo zikurikira: ikimenyetso cyo guteranya, makumyabiri na gatanu zeru karindwi umunani umunani cumi na kabiri mirongo itanu makumyabiri na kane, bakaguha ubundi busobanuro.

Iki ngiki ni ikigo cy'ubwishingizi. Aha ngaha kugira ngo ubeho wizeye umutekano w'ibintu byawe, iki kigo wagisura bakaguha ubwishingizi bw'ibintu byawe byose, igihe n'igihe wazaterwa n'ikibazo bikakorohera.

Ni inyubako nini, kandi ngari usanga batangamo ubufasha ubwinshi kandi butandukanye, bwagira umumaro igihugu, bwakugirira umumaro nawe ubwawe. Ukaza ugafata ubwishingizi, ugashinganisha ufite inzu nini, ufite ibikorwa byinshi ukora, ufite ibinyabiziga, ukaza ukabishinganisha.

Aha ngaha muri uyu muryango tureba ufunguwe, hakorerwamo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ushobora kuba wabasha kuza kwishyuriramo imisoro, harimo urubuga rw'irembo, harimo amabanki ushobora kuza kubitsa amafaranga cyangwa se kuyabikura, ushobora kuza gushaka ibyangombwa bikujyana mu mahanga n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Iki ngiki ni ikigo kinini giherereye ahantu runaka hatandukanye, ni ikigo cy'ubwishingizi, ahangaha hafata ubwishingizi bw'ibintu byinshi bitandukanye, ubwishingizi bw'inzu ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'ubutaka, ahangaha wabihasanga bakaguha ubwishingizi bw'ibintu byose waba ukeneye.

Bwira ngo urakaza neza ikigo gitanga ubwishingizi cyitwa Mowa, uramutse ukene ubwishingizi bugiye butandukanye bw'ibinyabiziga, bw'imitungo, bw'ubutaka; ahangaha waza ugashinganisha ibintu byawe ukamenya ko bifite umutekano.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza, isa neza ku ruhando mpuzamahangahangaba. Aha ngaha baba bakwereka uburyo wagura tike ikwemera kwinjira muri arena inyubako wagiye kureba imyidagaduro igiye, itandukanye abahanzi n'ibindi birori.

Aba ngaba ni bamwe mu bakozi ba banki cyangwa se abashinzwe kwamamaza, hano barakubwira ngo ''byinshi kuri wowe dushyira imbere iterambere rya buri mugore'' umugore wese hano bashyirare iterambere ryiwe imbere, uramutse ubikeneye wabandikira cyangwa se ukabahamagara kuri izi nimero.

Byinshi kuri wowe, aha ngaha abari kuri banki bakubwira ngo imbere heza hategurwa uyu munsi, nawe watangira gutegura imbere heza hawe uhereye uyu umunsi, ushobora kubahamagara kuri nimero zeru karindwi umunani umunani rimwe kane gatanu gatatu zeru zeru, ubundi bakaguha ubusobanuro bw'ibindi byinshi cyane.

Ahangaha ni ishyirahamwe, ni ko twavuga; ritanga inguzanyo ku baturage baba barishyize hamwe nyine, bakajya gufata amafaranga bakagenda bayabika bayabika, noneho umwe yazakenera inguzanyo akaza bakayimuha.

Ati bagufitiye byinshi kuri wowe, gera ku nzozi zawe n'inguzanyo itazigamiye ya iyi banki ahangaha muri banki baragufasha bakaguha inguzanyo, ubundi ukagenda ugakora ukiteza imbere.

Inguzanyo yo kwiga, aha ngaha wahamagara kuri izi nimero zabo ku buntu, gatanu, rimwe, makumyabiri, aha ngaha barakubwira, saba inguzanyo ya iga usoze umugambi wo kwiga gutwara ikinyabiziga, aha ngaha baguha inguzanyo kwiga gutwara ikinyabiziga kandi ugasoza.

Isoko ry'imyenda y'ubwoko butandukanye, imyenda y'abana aha ngaha uramutse ukeneye kugura imyenda y'abana amakanzu y'abantu bakuru n'indi myenda igiye itandukanye, y'abapapa abasore waza ukahahira.

Isoko ryiza rinini kandi rigari ricuruza ibintu byinshi bitandukanye yaba ibirungo, yaba ibyokurya bindi bisanzwe, ibihingwa n'ibindi bitandukanye, ibitoki, inyanya, ibirungo by'ubwoko bwose n'ibyokurya by'ubwoko bwose wabihasanga.

Ahangaha turi kubona isoko ubuhahirane bwiza bw'ibicuruzwa byinshi bimera mu murima ubundi bagasarura bakabona n'abakozi hirya bambaye imyenda y'akazi baba bashinzwe kubyikorera babikuvanira ahantu hamwe babijyana ahandi, tukabona ibitoki byiz,a ibirayi ndetse n'ibijumba n'ibindi bintu bitandukanye.

Ubucuruzi bugiye butandukanye bubera ku muhanda ndetse no mu nkengero amaduka ari ku mihanda n'abatereka ku muhanda bitewe n'ibyo waba ukeneye kugura waza ukahahahira ubundi ukagenda.

Isoko rigari ryiza ririmo ibintu byinshi bitandukanye, aha ngaha turareba imbuto zitandukanye ibihaza, tukareba inanasi, imineke, amatunda, amacunga n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu isoko wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye; aha tukaba tureba ibintu bijyanye n'imboga. Imboga rwatsi ni imboga zihingwa zikamera zigiye zitandukanye za kinyarwanda; ibindi byo mu mahanga n'ibindi byinshi bitandukanye aho wabihahira.

Ubu ni ubucuruzi bw'ibirayi, aha ngaha uramutse ukeneye ibirayi by'ubwoko butandukanye ibirayi byiza, ibiro byinshi cyangwa se bikeya byaterwa n'ibyo ushaka wowe, waza ukabahahira bakagufasha.

Aha turabona umucuruzi w'imbuto z'amoko menshi agiye atandukanye, zakugirira umumaro, waza ugahaha zifite intungamubiri, inanasi, amatunda, amacunga, imyembe, n'ubundi bwoko bw'ibicuruzwa by'imbuto byinshi aha ngaha wahamusanga, akaba yagufasha ukamuhahira.

Ahakoreramo sosiyete y'itumanaho ya emutyene ukaba wabasha kugura paki zawe zo guhamagara cyangwa se zo gukoresha murandasi, kuba wakoresha mudasobwa na terefone igendanwa n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aba ngaba ni bamwe mu bakozi b'ikigo gishinzwe imiyoboro y'itumanaho cyangwa se gukoresha za murandasi, aba ngaba bagufasha mu buryo butandukanye uri guhamagara ntibikunde cyangwa se mu buryo bwo kohereza amafaranga n'ibindi bintu byinshi bitandukanye byo kuri murandasi.

Aka ngaka ni akazu k'umwe mu bakozi cyangwa se k'intumwa y'ikigo cya emutiyene ahangaha wakanda ijana na mirongo inani na kabiri ubundi ugakurikiza amabwiriza y'ibyo waba ukeneye byose.

Isoko ryiza wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibirungo by'amoko menshi, aha ngaha tukabona umuntu, ubwo yari amaze guhaha ubundi agiye kwishyura uburyo akoreshejemo ikarita.

Uyu ni umwe mu bakozi b'ikigo cy'umuyoboro wa Emutiyeni, aha ngaha yagufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kuba yaguhereza inite wakoresha ugiye guhamagara, kuba yakubikira amafaranga, kuba ya kubikurira amafaranga n'ubundi buryo bugiye butandukanye.

Uburyo bwo kwishyura ukanze akanyenyeri ijana na mirongo irindwi urwego ubundi ugashyiramo kode y'uwo ugiye kwishyura akabona n'amazina ye, ubundi ukamwishyura amafaranga angana nibyo wahashye.

Akana ni akazizu k'umukozi umwe mu bakoresha umuyoboro wa MTN udufasha gukora ibintu byinshi bitandukanye, nawe uramutse uyikoresha ushobora gukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, wabasha kubonamo ibintu byinshi wabasha gukora ubyikoreye.

Uyu nguyu ni umwe mu bakozi ba MTN. Uyu nguyu ni umuyoboro w'itumanaho, aha ngaha ari kwamamaza ukuntu wagura pake ubundi ukabasha gutsindira ibintu bigiye bitandukanye, wakanda akanyenyeri, ijana na mirongo ine, urwego, n'akanyenyeri, gatatu, kane, gatanu, ugakurikiza amabwiriza.

Turabona bamwe mu bakozi b'ibigo bishinzwe itumanaho, ahangaha batwereka uburyo buba bworoshye bwo kwishyura ugakanda iriya mibare: akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri gatatu urwego, iriya niyo kode yo kwishyura ku buryo bworoshye amafaranga yawe akagenda buryo bwizewe.

Aba ngaba ni bamwe mu bakozi b'ikigo cy'itumanaho umuyoboro wa MTN, bari kugenda bafasha abaturage ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari abo bari gufasha gufunguza amakonti, hari abo bari gufasha kubitsa amafaranga, hari abo bari gufasha kohereza amafaranga n'izindi gahunda nyinshi zigiye zitandukanye bagenda babikwigisha.

Bamwe mu bakozi b'ishami rya emutiyene riherereye ahantu runaka, baba bari kureba kugira ngo babone ibyo bazajya bageza ku banyarwanda bijyanye n'itumanaho, bafasha abantu kubika no kubikura amafaranga.

Iki ngiki ni ikigo cya vuba vuba, aha ngaha ushobora kubandikira uri mu rugo cyangwa se uri ku kazi, wenda ni urugero ukeneye amafunguro, ukabandikira ubundi bakayakugezaho ku kazi neza.

Iki ni ikinyabiziga gikorera ku iposita kidufasha gutwara imizigo ivuye hirya no hino hagiye hatandukanye mu bihugu bitandukanye. Aha ngaha waratumye umuzigo munini n'ikinyabiziga gitwara imizigo aha ngaha barawukuhagereza.

Umwe mu bakozi b'ikigo gishinzwe kuba cyakugezaho amafunguro ateguye neza kandi meza aha ngaha wandika kuri mudasobwa, ukandika ku mbuga nkoranyambaga zabo ugatuma ukoresheje murandasi ubundi bakabikugezaho.

Aha ngaha niho wasanga amata y'umwimerere akorerwa mu Rwanda amata, aba arimo imbuto zitandukanye kugira ngo intungamubiri zikomeze kurushaho kwiyongera ndetse n'uburyohe bukomeze kwiyongera.

Ni urubuga rwo guhahira kuri murandasi, ukaba warwandika mu gihe ukeneye guhaha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ubundi bakuzanira icyo watumijeho bakakikugezaho aho waba wibereye aho ari ho hose.

Iyi ngiyi ni ipikipiki ya vuba vuba, ushobora kubandikira ku rubuga rwabo "vuba vuba" ubundi ukabatuma ikintu cyose waba wifuza, mu gihe waba wibereye mu rugo mu kanya gato cyane ujya kubona ukabona babikugejejeho ku buntu.

Ubu ngubu ni uburyo bwo guhahira kuri murandasi, ahangaha ujyaho ukareba ikintu ubundi ukagishima, usanga ho igiciro cyacyo ukacyishyura, ni urubuga rwitwa kiku ubundi ukagitumiza bakazakikuzanira.

Ipikipiki idufasha kuba yatugezaho ibintu tuba twatumye twibereye mu rugo, cyangwa se mu kazi, akenshi ibyo kurya, amafunguro ubaye uri mu rugo ukayakenera ugatuma kuri uru rubuga, bakuzanira amafunguro meza.

Aya ngaya ni amapikipiki ni ikigo cyitwa yego moto, ni ishyirahamwe ryabo ribafasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye muri gahunda zabo kuba bakwiteza imbere ndetse no guteza igihugu imbere.

Inzu nziza baratwereka umwe mu bakozi bashinzwe kugura cyangwa se kugurisha amazu, urabona ko harimo imitako myiza imeze neza, hanze hari ubwogero aha ngaha wakandika kuri uru rubuga rwabo, ubundi ukeneye kugura inzu bakakubwira ayo wabishyura.

Uru nguru ni urubuga rucuruza amazu, aha ngaha wajyaho ukarwandikira, waba ushaka inzu nziza iboneye ifite amazi meza nk'aya ngaya yo gukarabiramo, kuruhukiramo, wabandikira ubundi bakagufasha.

Iyi ni nyubako nziza, ifite utubati twiza tw'igikoni, ubwogero bwiza bwo mu gikoni, ifite imiryango myiza n'ibindi bintu byinshi byiza n'amabara meza, akaba ari inzu ushobora kuba wayigura miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'Urwanda.

Iyi ni inzu nziza iri kacyiru mu umujyi wa kigali, ikaba ibifite ubuseswa bwiza n'ibirahuri byiza byo kwireberamo , utubati twiza two kubikamo imyenda n'ibindi bintu byinshi bitandukanye , ukaba wakishyura amafaranga angana n'igihumbi na magana atanu y'idolari ku kwezi.

Iyingiyi ni inyubako nziza cyane yubatse ku buryo bw'iterambere kandi bubereye igihugu, inzu nziza igaragarira amaso, ahangaha ni mu bwiherero, mu bwogero harasa neza, iyi ni inyubako wagura miliyoni mirongo ijana ma mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Iyingiyi n’inyubako nziza ifite ubusaswa bwiza, amadirishya meza, ndetse namabara meza yo mu nzu ndetse n’inzitiramibu, kugira ngo imibu itazakwangiza. Ikaba ar’inzu ikodeshwa amafaranga angana n'amadorari magana inani buri kwezi.

Inyubako nziza cyane ifite uburiri bwiza bushashe neza cyane, bakubwira bati ngo harimo ibyumba bibiri, ni Kabeza mu mujyi wa Kigali aho bakubwira ngo inyubako nkingi ifite ahantu heza ho kuruhukira, ho kogera heza, uzajya wishyura amafaranga angana n'amadorari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi.

Inyubako akenshi usanga ari inyubako y'amacumbi cyangwa se yo gukodesha mu gihe runaka ifite ibyumba byo kwicaramo ndetse n'ibyumba byo kuriramo akaba ari inzu wajya wishyura amafaranga angana n'amadorari igihumbi na magana atanu mu kwezi.

Iyi ngiyi ni inzu nziza ifite uburanga buhebuje, ifite amabara meza, amadirishya meza magari, atuma akayaga gakomeza kwinjira mu nzu, iki ngiki ni cyumba cyabashyitsi. Iyi ngiyi ni inzu ushobora kugura miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Iyi ni inyubako nziza iherereye mu Mujyi wa Kigali mu Rwanda. Tukaba tureba: ikingiki ni cyumba cyiza kirimo intebe nziza, tukaba turebana n'ikindi cyumba cyo kuriramo hakurya, ibintu bitandukanye byiza wabisanga muri iyi nzu, aba ari iyo gukodesha amafaranga angana n'amadolari magana inani ku kwezi.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza, ihagazemo n'ikinyabiziga, ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo iyi nyubako ushobora kuba wayigura amafaranga angana na miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, ifite imbuga nini yajyamo ibinyabiziga byawe n'amabara meza.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza cyane, ifite uburanga buhebuje irimo udukoresho tuzana umuyaga mu nzu, intebe nziza, imeza zisa neza, utubati twiza tw'insakazamashusho, akaba ari inzu wakwishyura amafaranga angana n'amadorari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi.

Inyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho kandi bw'iterambere buboneye igihugu kandi bugaragara neza, ikaba ari inyubako wagura amafaranga angana na miliyoni mirongo irindwi n'eshanu mu mujyi wa Kigali.

Aha ngaha ni ahantu wahahira ibikoresho by'ubugeni byinshi bigye bitandukanye, ahantu wahahira imitako yo gushyira mu nzu igiye itandukany y'ubwoko bwinshi, ubundi mu nzu yawe hagasa neza ha kagaragara neza.

Uburyo bwo kugura no kugurisha no gukodesha ibintu byinshi bitandukanye. Aha ngaha uramutse ukeneye kugura, cyangwa se kugurisha, cyangwa se gukodesha, wasura uru rubuga ku bindi bikurikira ukareba amakuru yandi.

Inzu nziza ngari kandi nini igurishwa miliyoniri bishobora kuba ari mirongo inani n'eshanu cyangwa se ntago bigaragara neza, ibyumba bine, ibyumba bitatu by'ubwogero ikaba iri Kicukiro Kigali Rwanda. Ururunguru ni urubuga wakoresha ubandandikiraho kugira ubaze andi makuru.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza igurishwa, yubatse neza afite amadirishya meza, imiryango myiza isize amabara meza, ikaba iri imbere ya Muyange ifite amakaro yose.

Iyi ngiyi n'inyubako iherereye i Kigali, Kabeza, ikaba ari inyubako nziza kandi isa neza igaragara neza ifite n'amabara meza, ifite ibyumba bitatu byo kuryamamo n'ibyumba bitatu by'ubwogero ndetse n'ubwiherero, ukaba waza ukayikodesha mu gihe waba uyikeneye.

Ni inyubako nziza isa neza y'icyumba kimwe cyo kuraramo ndetse n'icyumba cy'ubwogero inzu mberabyombi, ikaba iri Kacyiru, ukaba wakishyura amafaranga asaga ibihumbi magana abiri y'u Rwanda buri kwezi.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza turabona mu gikoni ahantu heza ho gutekera; gutunganyiriza amafunguro, akaba ari inzu ifite ibyumba bigiye bitandukanye; icyumba kimwe n'icyumba cy'ubwogero, ukaba wakishyura amafaranga angana n'ibihumbi ijana mirongo itanu y'amanyarwanda ku kwezi.

Harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibyokurya by'amoko yose, yaba ibiciye mu nganda cyangwa se ibindi bitaranyuramo, ibintu by'imitobe waba ukeneye byose, ibintu by'inyama zo kurya, amavuta y'ubwoko bwose yo kwisiga n’ayo guteka n'ibindi birungo byinshi.

Iri ni isoko wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye, by'ubugeni bugiye butandukanye uduseke, ibintu biboshye, wakenera guhaha imitako washyira mu nzu yawe, bikagaragara neza imbere y'abantu abo aribo bose.

Ni iduka ricuruza imyambaro y'ubwoko bugiye butandukanye, iba ikoze mu ruhu iba ikoze mu bindi bintu bi bitandukanye. Aha ngaha niho wasanga inkweto z'amoko yose, izifunguye ibirenge ku buryo bigenda bihumeka, ndetse n'izifunze, imikandara myiza n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Iri ngiri ni iduka wasangamo indabyo nziza zihumura neza ndetse zigaragara neza, ushobora kuba wazigura ukagenda ugataka mu nzu yawe ubundi igasa neza, imbere y'uruhando rw'abantu bagiye batandukanye.

Iri ngiri ni iduka ushobora ku waza ugahahiramo ibintu byinshi wakwifuza, wakenera ibyo kunywa byiza kandi bihenze kandi byinshi, wakenera ibyo kurya byiza bigiye bitandukanye, aha ngaha wahinjira ukahahahira.

Nini iherereye mu mujyi wa Kigali kandi nziza, igiye irimo amaduka menshi atandukanye, acuruza ibintu byinshi wakifuza, n'ibindi byinshi by'ibikorwa remezo, tukaba tureba hasi iduka ricuruza imyambaro, imyambaro myiza y'abakobwa, cyangwa se abadamu n'aba mama, uyikeneye wahahahira.

Iri ni isoko ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, imyambaro, imyambaro yo ku maboko imyambaro y'imiringa imitako yo mu nzu n'imitako y'ahantu hatandukanye, ibishushanyo byiza bisa neza bikeye washyira mu nzu yawe, bikagaragara neza n'ibindi bintu byinshi bitandukanye byo kwambara.

Aha ngaha ni ahantu ushobora kuba wahahira indabyo z'amoko menshi atandukanye zihumura neza zisa neza washyira mu nzu yawe ahantu hakagaragara neza hagahindura ishusho y'umwimerere.

Isoko rinini ryiza, rigari, wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba uri umunyarwanda cyangwa se uri umunyamahanga, aha ngaha wahahahira, wasangamo ibintu by'ubwoko bwinshi, wakwifuza kuba wagura.

Iringiri ni iduka ricuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye waba uri umukobwa waba uri umubyeyi cyangwa se uri umumama ahangaha wasanga imyambaro myiza ikubereye wakwambara ukaberwa.

Iri ni iduka ririmo ibintu byinshi bitandukanye amazi yo mu Rwanda, amazi yo mu mahanga meza ibyo kurya, imbuto, inyama, ifu z'ubwoko bwose butandukanye. Ahangaha waza ukahahira ibyo kurya bimeze neza n'ibindi bintu bitandukanye.

Iri ngiri ni iduka wahahiramo ibintu byinshi by'agaciro, imitako igiye itandukanye n'imikufi yo kwambara mu maboko, mu maguru, mu ijosi, impeta n'ibindi bintu byinshi bitandukanye aha ngaha waza ukabihahahira.

Iri ngiri ni isoko rinini wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, iri ngiri ni isoko ryagufasha kuba wagura ibyo kurya bitandukanye, ibyo kunywa bitandukanye, ibikoresho byo mu nzu, ibikinisho by'abana, n'ibindi bintu byinshi wakifuza.

Iyi ni inyubako nini kandi nziza igezweho yubatse ku buryo bw'iterambere, ahangaha usanga ari inzu y'ubucuruzi cyangwa se ibindi bikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye, ahangaha urabona hari amazu menshi arimo ubucuruzi butandukanye bw'imyenda n'ibikoresho byo mu rugo, ibyo gutekeramo amafunguro n'ibindi byinshi bitandukanye.

Iduka wabasha guhahiramo imyambaro igiye itandukanye, ndetse n'inkweto z'ubwoko butandukanye. Yaba izikoze mu ruhu. yaba amakanzu meza y'abamama cyangwa se abakobwa, inkweto nziza zifunguye ku bagabo n'abakobwa n'abagore. ibintu by'ingeri byose wazisangamo.

Iringiri ni iduka ricuruza ibyo kunywa bisembuye, ibidasembuye, ibyo mu Rwanda, ibyo mu mahanga, bacuruza ibyo kurya byanyuze mu nganda, ibifasha ibiryo kuryoha cyangwa se amafunguro kugaragara neza no kuryoha.

Iki ngiki ni ikigo gitanga ubwisungane mu kwivuza, uramutse udafite ubwisungane mu kwivuza wagana iki kigo, ukiyandikisha bakareba n'ibindi ubundi bakaguha ubwisungane mu kwivuza, kugira ngo nawe ubeho witeguye neza ko ubuzima bwawe bushinganishije.

Iyi ngiyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza. Iyi karita iragufasha igihe ugiye ku kigo nderabuzima, cyangwa se ku ivuriro kwivuza, bituma ibijyanye no kwishyura amafaranga y'ubwivuze bikorohera.

Ikigo cyitwa ejo heza, uyu nguyu ni umwe mu bakozi, cyangwa se mu bantu bafashe ubwishingizi, ni ikigo gitanga ubwishingizi bati nzigamira kubwa ejo hazaza hanjye n'ejo heza. Wowe se nawe ushobora kuba wazigama kugira ngo ejo hawe hazakomeze kuba heza.

Abaturage baje ku kigonderabuzima, bose bafite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, iyi karita iragufasha iyo uyifite kuko iyo uri ku kigonderabuzima cyangwa se ku ivuriro mu kukuvura birakorohera.

Abaturage ndetse n'abayobozi babo, abenshi bafite amakarita y'ubwisungane mu kwivuza. Bashobora kuba barimo baratanga ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, kugira ngo buri muntu wese abashe kugerwaho n'ubuvuzi.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, iyi karita iyo uyifite umenya neza ko ubuzima bwawe bushinganishije ubundi ukagira ubwisungane mu kwivuza, bayita mituweri kugira ngo nuramuka ugeze ku ivuriro bibe byakoroshya amafaranga waba wakishyura.

Iki ni ikigo gitanga ubwisungane mu kwivuza, uyu nguyu akaba umwe mu bakozi b'icyo kiguzi cyangwa se umuyobozi, ahangaha iyi karita izwi nka mituweli uba ugomba kuba uyifite kugira ngo ujye guhabwa ubuvuzi mu buryo bworoheye kandi bworoshye.

Ikigo cy'ubwishingizi ejo heza ahangaha abaturage baba baje ari benshi kugira ngo bafate ubwishingizi akenshi aba ari ubwisungane mu kwivuza kugira ngo bajye bivuza neza kuri gahunda.

Iri ngiri mu ni isoko rinini rigari rikwereka ko rifite ibintu byose wakwifuza guhaha, waba ukeneye imitobe wayibona, ukeneye ibyo kurya by'amoko atandukanye ibyo kunywa ibisembuwe n'ibidasembuye n'ibikoresho bindi bigiye bitandukanye.

Iri ngiri ni isoko rinini rigari wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibikoresho byo mu nzu, ibyo kurya bindi bitandukanye, ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye, ibidasembuye n'ibindi bintu byinshi wakifuza, aha ngaha uje wataha utahanye icyo wifuza.

Iri ngiri ni isoko wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo nta kintu na kimwe wabura, ibyo kurya by'ubwoko bwose, ibyo kunywa by'ubwoko bwose, aha ngaha uramutse ubikeneye wahaza, ukahagurira ibintu byinshi wakwifuza.

Turareba isoko ririmo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ushobora kuba waza ukabihaha ukabitahana, yaba amavuta y'ubwoko butandukanye, impapuro z'isuku, ibiryo by'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye aha ngaha waza ukabihahahira.

Ubungubu ni uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikarita. Mu gihe umaze guhaha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari ahantu baba bagomba kukwereka uburyo bwakorohera mu gihe amafaranga yawe ari ku ikarita. Bakazana ugakozaho ubundi ukishyura.

Iri ngiri ni isoko riba ari rinini cyane wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye wakenera mu rugo, yaba bikoresho byo mu rugo, yaba ibyo kurya bigiye bitandukanye, aha ngaha nta kintu wahaburira.

Iri ni isoko rinini waguriramo ibintu byinshi bitandukanye; yaba ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa; byaba imitobe cyangwa se ibisembuye n'ibidasembuye; waguriramo inyama n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Iri ngiri ni isoko wahahiramo ibintu bigiye bitandukanye ibirungo byo guteka mu biryo bikaryoshya ibiryo rwose, amafunguro akaba afite impumuro neza kandi asa neza amajyane icyayi cy'ubwoko bwo butandukanye aha ngaha waza ukabihahira.

Iri ngiri ni isoko wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'amoko yose, ibiryohera, imboga n'ibindi bintu byinshi, aha ngaha wabihahahira ibyo wakenera byo kugufasha kuba wateka uri mu rugo.

Isoko ryiza kandi rinini wahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibyo kunywa by'amoko yose, amata y'abana bakiri bato ndetse imitobe myiza, ibyo kurya byiza, inyama n'ibindi byo kurya bitandukanye.

Iduka rikungahaye mu gukora ibijyanye n'ibiva mu ifari, aho bafata ifarini bakayishyira mu mazi bagashyiramo n'indi misemburo yabugenewe bakavanga bakadukoreramo ibyo kurya ubundi natwe tuzakaza tukabihaha, bafitemo n'ikintu twita ikiraha bikoze mu birarayi ndetse n'ifarini.